Bano baturage bitabiriye inama ari benshi ariko! Mu cyaro nta bwo biganda. Umupolisi rwose yashishikaye ari kuvuga ibintu kubera ko abaturage bamuteze amatwi.

Aya mazu ni ay'abami ya kera yabaga yubatswe gutya, ni nk'amwe tubona kwa duwini, ni nka gutya aba ameze amwe abazungu bajya gusura.

Gukama ibitoki birarushya Mana！ Aba bantu bose baje gukamisha ibitoki？ Bari gukamisha amaguru se？ko naroraga bararwaye n'amavunja. Niyo mpamvu ntanywa inzoga.

Ifu babese kuri runo rusyo iraryoha, cyangwa ari kubeteraho umuti? Cyangwa ni ibyo gukamiramo, ni intara.

Abantu bajya muri iyi kiriziya baba bangana gute? Cyangwa ntabwo ari ikiriziya ni urusengero? Ubwo babona abantu bakwiyemo we? Ni kinini pe!

Ano mazu ari hano bayacumbikamo. Afite n'ikigega. Kuba hano ni byiza, ni heza. Ari ahantu hazitiye,..

Ubwatsi bwakuze cyane! Nyiri ubu bwatsi ntiyatomboye? Ndikubona muri iki gikuyu, ewe, Izi nka ze zizaba zimeze neza. Ahubwo nibatinda kubusarura buzapfa. Ikindi kibazo ni uko burimo amashanyarazi.

Ibimodoka binini bipakira umucanga mwinshi, nk'uyu mucanga wuzuye iyi modoka ntiwakuzuza inzu buriya? Ariko kino kimodoka gifite amapine menshi ndakubwiye!

Amakipe y'abanyeshuri yakinye, abanyeshuri bose baje bo ku bigo byose, bateranye ariko batsinzwe. Ano mabaro yose bafashe, buri wese afashe baro ye imwe imwe.

Ikibuga cy'umupira cyubatswe neza . Kirimo na tapi n'amasenyenge , gisa neza , iki ntabwo cyaba ari icyo mu cyaro. Zino senyenge n'ibirabo, ntabwo ari ibyo mu cyaro pe ! Harasa neza.